Icyumba kigaragara nk'ikininama cyicayemo abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, imbere yicaye abagabo babiri bambaye amakoti ndetse n'amashati y'umweru, inyuma yabo hari icyapa gifite ubuso b'ubururu cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugore ukenyeye igitenge uteze n'igitambaro mu mutwe, bahagaze iruhande rw'akazu kagaragara nk'ivomero rusange, imbere yako hateretse injerekani nyinshi, higanjemo izo mu ibara ry'umuhondo.

Itsinda ry'abantu benshi bazamuye urutoki kw'igikumwe, bambaye impuzankano igaragara nk'iy'abaganga, hagati yabo arimo umugore w'umuzungukazi wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura.

Ababyeyi babiri bakenyeye ibitenge umwe yambaye igitambaro mu mutwe, undi yambaye ingofero ahetse n'igikapu bateruranye umufuka bawujyana aharunze iyindi mifuka myinshi, hari n'abandi bantu bahagaze.

Abana bato bicaye hasi, bambaye umupira isa, iruhande rwabo hakikijwe n'abantu bagiye batandukanye bafite inkongoro bari kubanywesha, harimo n'undi mwana umwe ufite inkongoro ari kwinywesha.

Umugore wikenyeye igitenge washyize ukuboko inyuma y'umugongo, yambaye agapira k'amaboko magufi, ahagaze iruhande rw'umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, afite urupapuro rushushanyijeho abantu babiri.

Umugore wambaye umupira urimo anmabara menshi, ateze igitambaro mu mutwe, yikoreye injerekani y'umuhondo, yikoreje ingata, iruhande rwe hari umwana wambaye imyambaro y'ubururu, imbere ye hari inyubako.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, afite akajerekani k'umweru, bari kuvoma amazi ava mu iriba, inyuma ye hari abandi bantu benshi batagaragara neza ndetse n'inyubako.

Umubyeyi wambaye imyambaro y'ibitenge irimo amabara atandukanye, ateruye umwana mutoya, iruhande rwe hari umugabo wambaye impuzankano igaragara nk'iy'abaganga, hejuru hamanitseho umunzani bapimisha ibiro by'abana.

Abagore babiri, umwe yambaye ikote ry'umukara, undi yambaye imyambaro y'ubururu, baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro na mudasobwa, hari n'undi mugore wambaye ikote ry'umukara n'agapfukamunwa k'ubururu, babagaze imbere.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku n'inkweto z'ubururu za bodaboda yunamye iruhande rw'iriba ari kunywera amazi ku kiganza munsi yiwe hateretse indobo.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'ubururu bicaye bazengurutse ameza barambuyeho igitambaro cy'umukara, ateretseho amacupa.

Imbuga irimo umucaca yicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere ya bo hari inzu isakarishijwe amabati y'umutuku, hari ihema ry'umweru, hari n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umubyeyi ukenyeye ibitenge, yambaye ikote ry'umukara, yicaye ku ntebe y'urubahu, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ukuboko kumwe kwe kumufashe ku rutugu ukundi kumufasha ku nda agaragara nk'aho atwite, imbere yabo hari undi mugore wambaye itaburiya y'ubururu.

Umugore wambaye umwambaro w'umweru afite indangururamajwi mu ntoki afite n'agatabo mu ntoki, afite umusatsi uboshye ku mutwe imbere ye hari abandi bantu bicaye mu ihema, iruhande rw'ihema hari ibiti.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, yambaye n'ipantaro yicaye ku ntebe, ari gupfuka akantu k'umweru ku kaboko k'umwana mutoya, wambaye ikanzu y'ubururu bwerurutse, uteruwe n'umubyeyi ufite igitambaro mu mutwe.

Abantu biganjemo igitsina gore, bahagaze iruhande rw'ivomero rusange, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari injerekani ziri mu ibara ry'umuhondo, hari n'akazu gasize ibara ry'ubururu ndetse n'irindi bara rijya gusa nka kaki.

Abantu bambaye imipiri isa yo mu ibara ry'ubururu, bambaye n'ingofero z'umweru, imbere mu gatuza yanditseho tora neza, bafunze ibipfunsi.

Abana batatu bambaye imuzangano y'abanyeshuri yo mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, imbere yabo hari amakano ari kuvamo amazi, bagaragara nk'abari gukaraba intoki.

Umugore wambaye agapfukamunwa, yambaye amadarubindi ku maso, yambaye n'ikanzu, iruhande rwe hari abantu babiri, umwe yambaye ingofero, inyuma yabo hari inzu ifite ibikuta by'umweru.

Abantu benshi bahagaze hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Abantu bicariye mu cyumba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi kibisi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye imbere yabo hari ameza ateretseho udukombe dutoya two mu ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye ijipo y'umukara, usutamye afashe ku njerekani y'umuhondo iteretse mu mabasi abiri agerekeranye, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda, hari n'inzu yubakishije amabati.

Umwana wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri, afite igikombe mu ntoki ari kuvoma amazi ku kigega cy'umukara, iruhande rwiwe hari igikuta cyubakishije amabuye.

Abana bambaye imyambaro inyuranye igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri, bunamye bari gukaraba intoki. Muri bo hari uwambaye amasogisi maremare yo mu ibara ritukura, inyuma yabo hari imbuga hari n'ibiti bitandukanye.

Urunyurane rw'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo igitsina gore, igitsina gabo ndetse n'abana, imbere yabo hari inzu, hari n'ihema ry'umweru, hashinze n'ibendera.

Umwana mutoya ugaragara nk'waba wiga mu mashuri abanza, yambaye ikanzu irimo amabara menshi, afite imisatsi iboshye ku mutwe, afite icupa rirerire ry'amazi, ari gukaraba intoki.

Abantu benshi bahagaze hamwe higanjemo abambaye impuzangano z'abaganga, bahagaze iruhande rw'icyapa cy'umweru ndetse n'ubururu cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, harimo ishusho y'umuntu inyuma yabo hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba kirimo insakazamashusho nini cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa na terefone ngendanwa.

Abasore babiri bahagararanye, umwe yambaye ishati ahetse n'igikapu mu mugongo, undi yambaye umupira w'ubururu, bagaragara igice k'igihimba hejuru hari igisenge cy'umweru.

Icyumba kigaragara nk'iy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye biganjemo abagabo bambaye amakote ndetse n'amashati mo imbere bica gihe bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi kibisi bakaba bafite impapuro.

Umugore uri guseka ufite amenyo agaragara nkayakutse, ateze igitambaro mu mutwe, yambaye n'imyambaro y'igitenge irimo amabara menshi, harimo umuhondo, umukara, umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugore wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, ufite agakapu mu ntoki n'indangururamajwi mu ntoki, afite umusatsi uboshye ku mutwe, imbere ye hahagaze umukobwa wambaye ipantaro n'umupira, ipantaro y'umukara, umupira utukura, inyuma yabo hicaye abandi bantu.

Umugore wicaye hasi, ateze igitambaro mu mutwe, ateruye umwana muto, iruhande rwe hicaye undi, imbere ye hari inkoko iriho imbuto, ndetse na mironko y'umutuku.

Umugore wambaye ibitenge birimo ibara ritukura, yambaye ishapure mu ijosi, afite imisatsi iboshye ku mutwe yicaye mu nzu y'ubucuruzi, inyuma yiwe hari akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye.

Umusore ugaragara igice k'igihimba, yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, ari guseka, afite ubwanwa n'umusatsi mukeya ku mutwe, inyuma yiwe hagaragara igikuta gisize ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa, yambaye n'itaburiya y'umweru, imbere ye hari undi mukobwa wasamye ari kumureba mu kanwa, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, terefone ngendanwa, ndetse n'ikaramu.

Umusore wambaye umwambaro w'umukara ndetse n'umweru, yambaye amadarubindi ku maso ndetse n'agapfukamunwa, yambaye isaha ku kuboko, iruhande rwe hari undi muntu wambaye nka we, imbere ya bo haryamye umuntu.

Umugabo ufite imisatsi iboshye ku mutwe ndetse n'akana gafite umusatsi mukeya k'umutwe , bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi ya, bafiteye akadodo gatoya bari kunyuza mu menyo.

Umusore ugaragara igice cy'igihimba yambariye umupira mu ibara ryu'mweru, ari guseka cyane amaso ye asa nkafunze afite umusatsi muke kumutwe inyuma yiwe hagaragara igikuta cyo mu ibara ry'muhondo.

Abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, igiye iri mu mabara atandukanye, imbere yabo hari inyanya nyinshi, inyuma yabo hari imbuto zo mu bwoko bw'amacunga.

Umugore ugaragara nk'ukuze ufite imisatsi irimo imvi yambaye ipantaro n'umupira wamaboko maremare, yicaye hasi mu busitani agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye mutwe, yambaye imyambaro y'ubururu afashe ikiganza cy'umusaza amuri iruhande ari kumushyira agacupa mu ntoki umusaza afite imvi mu bwanwa.

Umugore wambaye impuzankano y'abaganga, yambaye amadarubindi ku maso n'agapfukamunwa, afite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye isaha ku kuboko, afashe ukuboko k'umugore ugaragara nk'ukuze wambaye ikanzu.

Umusaza wambaye ishati y'ikigina, ufite umusatsi urimo imvi, yifashe ku gahanga, yicaye ku ntebe, imbere yiwe hari ameza ateretseho ibitabo bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ikote ry'umukara, yambaye amadarubindi ku maso ari gusuhuzanya n'undi mugabo, inyuma yabo hari abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hari cyapa ndetse n'igiti.

Umugore ugaragara nk'ukuze, wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, yambaye isaha ku kuboko, imbere yiwe hicaye undi mugore wambaye impuzankano y'ubururu, agaragara nk'uri ku muvura.

Abagore babiri bari guseka bishimye, umwe yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi w'imvi, bafite ikirahuri, bahagaze mu cyumba kimanitsemo isaha ku gikuta, imbere yabo hari ubwoko bw'imboga butandukanye.

Umugore wicaye mu ntebe ari guseka yambaye amaherena ku gutwi n'impeta ku rutoki, inyuma yiwe hari umukobwa wunamye amufashe mu gatuza yambaye isaha ku kuboko afite imisatsi iboshye ku mutwe.

Umugore ndetse n'umugabo wambaye udupira tw'amaboko magufi, wambaye n'isaha ku kuboko, umugabo yambaye impeta ku rutoki, bagaragara nk'abari kwirukanka.

Umusaza ugaragara nk'aho akuze, yambaye umupira w'amaboko maremare, aricaye, afite imisatsi irimo imvi, afashwe ikiganza n'umukobwa ufite imisatsi y'umukara iboshye.

Umugore uri guseka, ufite imisatsi irimo imvi, yambaye umwambaro ujya gusa nk'ubururu bwerurutse, inyuma y'iwe hari umukobwa ufite umusatsi w'umukara, wambaye umwambaro wo mu ibara ry'icyatsi n'umweru na we ari guseka.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye higanjemo abagore bateze ibitambaro mu mutwe, bunamye mu murima w'icyayi bari guseka, hagati yabo hari igitebo kinini cyane.

Abagabo bambaye imyambaro y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, bafite icupa mu ntoki, iruhande rwabo hateye ibiti birebire, bagaragara nk'abari kwiruka bakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite ubwanwa n'umusatsi birimo imvi, yicaye iruhande rw'umugore ufite umusatsi na we urimo imvi, imbere yaho hari ameza ateretseho amasahani ariho ibyo kurya bitandukanye, bari guseka.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, yambaye ishati iciyemo imirongo, irimo amabara atandukanye, harimo umutuku, umukara ndetse n'umweru, afite umusatsi urimo imvi, afite ikiyiko n'isahani irimo ibyo kurya mu ntoki.

Abantu babiri bahagararanye umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro irimo ibara ry'umukara bafite icyapa gitoya mu ntoki cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara iruhande rwabo hari intebe y'umukara.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru, gifite amashusho amanitse ku bikuta, hamanitseho n'isaha, kirimo intebe ndetse n'amamashini akoreshwa kwa muganga.

Imbuga iteyemo umucaca, hashizemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ku ruhande hari inyubako ihari, hari ikirere cyiganjemo ubururu n'umweru ndetse hari n'ibiti.

Umuntu uryamye ku buriri agaramye, yambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu iruhande rwe hahagaze abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, umugore amufashe ku kuboko naho umugabo amufashe kugahanga.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakarishijwe amabati, ifite amadirishya arimo ibirahuri, imbere yayo hari imbuga nini, hari n'ahateye indabo.

Abagore batatu bagaragara igice cy'igihimba bambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu n'udutambaro tw'umweru mu mutwe inyuma yabo hari ibiti bigiye bitandukanye harimo n'ibiti birebire by'imikindo.

Umugore wambaye ishati y'umweru ifite ibipensi imbere ahagaze iruhande rw'akantu gatoya kari ku munzani bapimiraho ibiro uba umanitse hejuru, iruhande rwabo hicaye abandi bantu.

Imbuga isashemo amabuye ihagazemo abantu bane bambaye impuzangano zisa, bambaye udupfukamunwa mu isura inyuma yabo, hari inyubako yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Inzu igaragara nk'ibitaro yubakishije amatafari ahiye isakarishijwe amabati y'ubururu, ifite amadirishya n'inzugi by'umweru, hamanitseho icyapa gishushanyijeho ijisho, iruhande rwayo hari indabo z'umuhondo.

Imbuga irimo ubusitani buto buto buteyemo ibiti by'imikindo imbere hari inzu y'igorofa yanditseho amagambo y'umukara hejuru hagaragara ikirere cy'ubururu ndetse n'umweru.

Ubusitani buteyemo igiti, imbere yabwo hari inzu ifite ibikuta by'umweru, isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari ikigega cy'amabara y'umukara, kijyamo amazi y'imvura.

Umusore wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abaganga, yicaye ku ntebe y'icyatsi kibisi, yambaye isaha ku kuboko, afite ikaramu mu mufuka, inyuma ye hari agatanda karyamaho abarwayi kari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu icuruza imiti, irimo imiti yo mu bwoko bugiye butandukanye, hari ifunze mu makarito ndetse no mu macupa, ni icyumba kinini gifite ibikuta bisize irange ry'umweru, gifite n'amatara hejuru atari kwaka.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, iruhande rwe hicaye umugabo wambaye amadarubindi ugaragara nkuri kumuvura, inyuma yabo hari icyapa gifite ubuso bw'umweru cyanditseho n'amagambo y'ubururu irembo.

Umukobwa wicaye hasi wambaye ipantaro mu ibara ry'umukara yafashe mu ivi ukundi kuboko gufashe ku kirenge agaragara nkuri gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bari mu kibuga kimeze nk'icyo bakiniramo, bambaye amakabutura ndetse n'imipira by'umukara ndetse n'umweru, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma y'ikibuga hari abantu benshi ndetse n'urutoki.

Umukobwa wicaye hasi yambaye ipantaro n'agapira k'umukara n'inkweto z'umweru, afashe ku kirenge agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uryamye hasi, wambaye ikabutura y'umukara ku ruhande irimo uturongo tw'ubururu ndetse n'umweru, yashyize ukuguru ku rutugu rw'umuntu wambaye isaha ku kuboko w'umuzungu.

Umugabo wambaye isaha ku kuboko n'ipantaro, wambaye agapira k'ubururu bwijimye, ari gupfuka ikirenge cy'umuntu uryamye ku gitanda, yambaye urukweto rumwe.

Ameza ateretse ibyokurya bitandukanye hariho isahani iriho amagi, ibinyampeke, ndetse n'inyama n'indi iriho inkeri ndetse n'imineke n'akandi gatebo gatoya karimo imboga zitandukanye zirimo ibihumyo, hateretse igitambaro cy'umweru giretseho icupa.

Umusore ugaragara igice cy'igihimba, wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi kibisi, afite icupa ry'amazi, ari kwisuka amazi mu isura, akaba agaragara nk'uvuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragara igice cy'igihimba wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hasutamye umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara, agaragara nk'uri mu imyitozo ngororamubiri.

Ameza ateretseho amasahani ariho ibyo kurya bitandukanye, harimo iriho amagi ndetse n'inyama, indi iriho imbuto zitandukanye, harimo inkeri ndetse n'imineke, indi ikaba irimo imboga, hari n'igitambaro cy'umweru kizinze giteretseho icupa hejuru.

Ibikapu bigera muri bitatu, birmo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, bifite imashini nyinshi, kimwe kirafunze, ibindi bibiri birafunguye, harimo ibkoresho bitandukanye, harimo n'imikasi.

Umusore w'umuzungu wambaye ikabutura n'insengero y'umweru ndetse n'inkweto asa nk'uri kwirukanka cyane akora imyitozo ngororamubiri inyuma ye hari imbuto n'imboga bitandukanye harimo karoti ndetse n'amacunga.

Umukobwa wambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu, n'agapira gatoya kagaragaza igice kimwe cy'inda, afite umusatsi mwinshi ku mutwe, arunamye ukuboko kumwe gufashe mu mugongo ukundi gufashe munsi y'ikirenge, Agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye isengeri yo mu ibara ry'ubururu ifitemo uturongo dutukura afashe kuboko kumwe ukundi kuboko kumwe kwe gufasheshi inyuma m'umugongo agaragara nk'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiririmo.

Udukarito dutatu, turi mu mabara menshi, harimo umweru, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, handitseho umubare makumyabiri na kane, akarongo, karindwi.

Umuntu ukennyeye igitenge kiri mu mabara menshi, harimo umutuku kaki ndetse n'icyatsi kibisi, afashe ku rurabo rufite amababi y'icyatsi kibisi.

Umurima uhinze neza, uteyemo igiti gikiri gitoya, gifite amababi y'icyatsi kibisi, kizwi ku izina ry'umuravumba, kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inkorora.

Umugabo wambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo, arahagaze, afashe ku gicupa gifite umufuniko w'ubururu, inyuma ye hari ibindi bicupa byinshi bitandukanye, imbere ye hari ameza ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ahantu hateretse igikombe kirimo uburoso bubiri bwoza amenyo buri mu ibara ry'umukara ndetse na kaki, ku ruhande hari icupa rishushanyijeho igikakarubamba n'ibitambaro bizinze.

Abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abana, bari mu murima munini cyane uhinzemo imiti ya kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye, abantu ba kera bakoreshaga bivura.